Umuhanda w'igitaka urimo abantu benshi bicaye bagiye batandukanye, higanjemo abagabo n'abagore, inyuma yabo hari imodoka nini itwara abagenzi bagiye batandukanye isize irangi ry'ubururu.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye; abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, hari ikirangantengo cy'idarapo ry'u Rwanda, biri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hari umuntu umwe uhagazeho w'umu mama.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, hicayemo abantu biganjemo abagabo ndetse n'abakobwa, buri wese agiye afite icupa ry'amazi ku ntebe bicayeho ku ruhande hariho uturongo tw'umuhondo.

Ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, yubatse umu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta, igizwe n'ibirahure byinshi, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, ku ntebe hagiye hateretseho amacupa y'amazi.

Ni inzu nini bigaragara ko iri kuberamo inama, hari icyapa gisize irangi ry'umweru harimo ikirangantengo cy'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, gisize mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, cyandikishije amagambo y'umukara.

Ni inzu nini bigaragara ko igi iberamo inama zigiye zitandukanye, harimo abantu benshi abamama n'abapapa, abari gufotora, ku meza hagiye hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni nama y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ku rukuta asizeho irangi ry'umweru, kumadirishya hariho irangi ry'umweru bicaye ku ntebe z'umukara, kumeza hariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni hantu hanini ushobora kwakira abantu benshi bagiye batandukanye, yaba abari mu nama abasohotse, harimo abari bicaye ku ntebe z'umukara ku meza y'umweru, bigaragara ko hari umwe uri kubasobanurira.

Ni inzu nini iberamo inama irimo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo n'urubyiruko, abagabo, abakobwa n'abamama, bigaragara ko hari ibintu bose bari kureba, bari kubereka.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko hari abari bari imbere bari gukina imikino, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ku nzugi.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro ku bikuta, irimo intebe z'umukara zicayeho abagabo ndetse n'abagore, ku meza hagiye hateretseho amacupa bigaragara ko ari ibintu bose bari bari kureba.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi y'umweru, ku bikuta hasizeho irangi ry'umweru, ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye, abapapa ndetse n'abamama bicaye ku ntebe z'umukara

Ni inzu nini yubakishije amakaro hejuru, isize irangi ry'umweru ku bikuta, irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, ku meza hari amacupa y'amazi.

Ni inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru, hariho icyapa kiriho idarapo ryi'igihugu cy'u Rwanda kiri mu mabara y'ubururu, icyatsi, n'umuhondo, ni inama irimo abantu benshi bagiye batandukanye,

Inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, ishobora kuba iy'ubukwe cyangwa izindi, irimo abantu bakeya babamama bicaye ku ntebe z'imbere, ku ruhande hariho ibara ry'umuhondo, inyuma hari intebe nyinshi ziticayeho abantu.

ni inzu nziza isize irangi ry'umweru kuruta bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye hicayemo abantu benshi aba mama ndetse n'aba papa bambaye imipira isize irangi ry'umweru ryandikishije mu magambo y'umweru.

Ni inzu nziza iberamo inama, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, abenshi higanjemo abapapa, ku meza hateretseho icupa ririho icyapa cy'ubururu, bigaragara ko abari kwamamaza ibijyanye no kubaho.

Inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, z'abantu benshi harimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abapapa, ndetse n'abamama, buri ntebe igiye iriho icupa ry'amazi ndetse n'ikirahure.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ishobora gukoreramo inama zigiye zitandukanye. Harimo abantu bane babiri bahagaze, abandi baricaye. Ku ntebe z'umutuku, ku meza hariho ibitambaro by'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite ibikuta bisize irange ry'umweru, hicayemo abamama batatu bigaragara ko ari bo bayoboye inama, umwe afite ikayi mu ntoki, yambaye ikanzu y'umutuku.

Inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abagabo, abasore ndetse n'aba mama bicaye ku ntebe z'umutuku hariho akarongo k'umuhondo ku meza hariho amazi ,ibitambaro by'umuhondo.

Ni inzu ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru yicayemo abantu batatu, abakobwa babiri n'umugabo umwe, umwe afite irangururamajwi bigaragara ko ariwe uri kuvuga ijambo, ku meza hateretse amacupa y'amazi.

Ni inzu nini iberamo inama, harimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umweru, abenshi bigaragara ko bahuze mu matelefone abandi....

inzu nini ikunda kuberamo inama zigiye zitandukanye, zishobora kuba iz'ubukwe, ku bikuta hubakishije amakaro, harimo abantu bakeya, higanjemo abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza y'umutuku.

Iyi nzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, inyuma yasizeho irangi ry'ubururu yandikishije mu magambo y'umweru hicayemo abantu batatu ku ntebe z'umukara umumama umwe n'abagabo babiri ku meza hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye iz'ubukwe ndetse n'izindi, irimo abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore ibikuta byayo bisize irange ry'umweru.

Ni inzu nini bigaragara ijya iberamo inama nini zigiye zitandukanye zaba iz'ubukwe cyangwa ni ibindi. Hicayeyemo abantu batari benshi cyangwa bakeya imbere hari uwari wicaye ku ntebe y'umukara bigaragara ko yari ayoboye inama.

Ni inzu nini bigaragara ko ikunda kuberamo inama, irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abakobwa, ku meza hariho igitambaro cy'umukara hateretseho amacupa y'amazi.

Ni inzu isize irangi ry'umweru irimo abantu umunani, harimo umwe uhagaze bigaragara ko ariwe uri kuvuga ijambo, bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza hariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro, hasi isize irangi ry'umweru ku bikuta, irimo abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza hariho ibirahure n'amacupa y'amazi.

Ni izu nini nziza igizwe n'ibirahure byinshi by'umukara, imbere hagaze abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imikenyero.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko iberamo inama, zigiye zitandukanye hicayemo abagabo ndetse n'abamama bambaye imipira y'ubururu harimo abitadiye udutambaro tw'umukara, ku meza hariho amacupa y'amezi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ushobora gukoreramo inama zigiye zitandukanye, harimo abantu higanjemo abagabo ku meza hariho ibitambaro by'umweru hasi ni umukara hateretseho.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye harimo n'urubyiruko, imbere hari umumama w'inzobe wambaye amarinete, wambaye imyenda itukura bigaragara ko ari umwisilamu.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi irimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza hateretseho ibikombe by'umweru n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni inzu nini ku bikuta hasizeho irangi ry'umweru bigaragara ko haberamo inama zigiye zitandukanye, harimo abantu benshi b'urubyiruko abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umutuku.

nNi inzu nini irimo abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo urubyiruko bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'umuhondo bigaragara ko hari ibintu baje kureba hirya hari abandi.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro hasi, irimo abantu batanu bigaragara ko bari mu nama; abagabo bane n'umukobwa umwe, ku meza hateretseho icupa ry'amazi yo kunywa.

Ni n inzu nini bigaragara ko iri kuberamo inama, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, abiganjemo ni urubyiruko, abahungu n'abakobwa, bicaye ku ntebe z'umutuku, umwe ni we uhagaze uri kuvuga ijambo.

Ni inama yiganjemo urubyiruko, bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'icyatsi hahagaze umugabo ufite irangururamajwi, bigaragara ko ariwe uyoboye inama.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yicayemo abantu batanu b'abagabo gusa, bicaye ku ntebe zi'imbaho umwe niwe wicaye kuy'umukara, hasi hariho ibitambaro by'ubururu bigaragara ko,

Ni nzu nini bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, yubakishije amakoro hasi afite amabaragi atandukanye, harimo abantu benshi mu nama, abagabo n'abagore. Ku meza hateretse icupa ry'amazi.

Ni inzu nini bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi b'igitsina gabo, umwe afite irangururamajwi bigaragara ko ari we uri kuvuga ijambo.

Icyapa gisize irangi r'ubururu n'umweru cyandikishije ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, bigaragara ko hari ikintu bari kwerekana kitari ku,

Ni inzu nini yubatse muburyo bugezweho ifite ibirahure byinshi harimo imirongo y'umukara, ifite inzugi zisize irangi ry'ubururu kurukuta hasize irangi ry'umweru yubakishije amakaro hasi harimo abantu benshi.

Ni inzu nini bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo ndetse n'abagore, buri meza hagiye hateretseho buri gikoresho cy'ikoranabuhanga.

Ni umuhanda w'amabuye hirya yicaye abantu benshi, ku ntebe z'imbaho bagiye batandukanye, hari inzu ndende yubatse mu buryo bugezweho, igeretse ifite ibirahure by'ubururu, hirya hari indi isize irange ryenda gusa.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije mu magambo y'ubururu, hariho umusore w'imibiri yombi wishimye mu maso ye, wambaye umupira w'ubururu ufite terefone mu ntoki bigaragara ko hari ibintu ari kwerekana.

Ni abantu batanu bagiye batandukanye abahungu bane n'umukobwa umwe, bose bambaye udupfukamunwa, bafite machine mu ntoki uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ari gusobanurira umukobwa.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umuhondo ku bikuta ifite imiryango isize irangi ry'umweru yubakishije amakaro hanze bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye harimo imyenda.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru n'umuhondo, hasi hashushanyijeho inzu ifite amabati y'umweru isize n'irangi ry'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu, cyandikishije mu magambo y'umweru n'umuhondo, hashushanyijeho inzu nini igeretse igizwe n'ibirahure byinshi, hariho abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kwiga.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi, ifite imiryango isize irangi ry'umweru bigaragara ko ari ahantu bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, mo imbere harimo intebe z'umweru.

Ni muhanda urimo amabuye. Harimo abagenzi bagiye batandukanye abagabo n'umukobwa. Hirya hari inzu ndende igeretse ifite ibirahure bisa ubururu hasi hateye ibiti.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru ryandikishije ibara ry'umukara hariho ifoto ry'ishyamba ryinshi ririmo ingagi bigaragara ko bari gukangurira abantu kuza kuyisura ndetse n'ibindi byiza bitatse.

Ni inzu nziza ndende igeretse ifite utwuma tugiye dusize irange ry'umweru ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hanze hateye ibiti birebire.

Ni gikuta kiriho icyapa gisize irangi ry'ubururu, cyandikishije mu magambo y'umweru, hari umugabo wambaye umupira w'umweru, amarinete y'umukara, ufite umusatsi mukeya wirabura.

Ni umuhanda w'amabuye hari inzu nini nziza ifite inzugi zisize irangi ry'umweru zirimo ibirahure, harimo ibyapa bigiye bitandukanye, bisize irangi ry'umweru n'umutuku yandikishije amagambo y'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'ubururu, cyandikishije mu magambo y'umweru n'ubururu, hariho abantu bagiye batandukanye bigaragara ko harimo abaganga ndetse n'abaje kwivuza.

Ni abantu benshi bicaye ku ntebe, bigaragara ko bahuze burimuntu wese hari ibyo ari gukora, harimo umwe wambaye ipantaro yenda gusa ubururu n'umupira w'ubururu, hirya gahagaze undi wambaye umupira w'ubururu.

Ni imodoka zigiye zitandukanye intoya isize irangi ry'umukara, indi nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye isize irangi ry'umweru, hirya hari ibiti ibyapa bisize irange ry'ubururu ryandikishije mu magambo y'umweru.

Ni inzu irimo abantu benshi bigaragara ko ari abanyeshuri, bambaye imyenda ijya kumera kimwe, amashati y'umweru n'amapantaro asa kaki, bafite mashini bakoresha biga.

N'igiti kirekire kiriho itsinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanyekanye, hariho itara rimurikira abantu iyo bwije, hari idarapo ry'Igihugu rifite amabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Ni igiti cy'icyuma kiriho insinga nyinshi zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu, hariho abantu babiri bigaragara ko hari ibyo bari gukora byapfuye bambaye ibisurubeti by'ubururu n'ingofero z'umuhondo.

N'umuhanda w'umukara urimo imodoka nyinshi zike zitandukanye izisize irangi ry'umukara inyuma hari umumotari hari icyapa gisize irange ry'umutuku n'umweru umutaka wa emutiyeni usize irangi ry'umuhondo.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, hari igiti kinini kiriho insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu, hari indabyo hanze ziconze, hirya hari ikigega gifite ibara ry'umukara.

Imodoka nini itwara abantu benshi ahantu hagiye hatandukanye, isize irangi ry'mweru ifite ibirahure, hirya hari ibiti by'ibyuma biriho insinga nyinshi, ziyobora amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Mu muhanda w'umukara hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye, igiti kiriho insinga nyinshi zigemura umuriro ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu hari ibiti.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru hirya hateye indabyo nyinshi zigiye zitandukanye indende n'ingufiya zicunze neza, hari igiti kiriho insinga zigiye zitandukanye zigemura amashanyarazi ahantu henshi.

Ni inzu nziza igaragara neza yubatse mu buryo bugezweho, ifite amabati asize irange ry'umutuku, hateye ibiti byinshi, hari ikigega gisize irange ry'umukara, igiti kirekire kiriho insinga.

Ni imodokadoka isize irange ry'umweru, hirya hari inzu bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, imyambaro, iy'abagore ndetse n'abana. Ushobora kwambara ugiye gusura abantu, ugiye mu bukwe cyangwa ahandi, hanze hari insinga.

Ni umuhanda urimo umugabo wambaye igisurubeti cy'ubururu bigaragara ko avuye mu kazi, hepfo hari abandi bantu mu gishanga, ni ahantu hateye ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Ni ibiti binini biriho insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu, hateye insina zivaho ibitoki ahantu barya cyangwa imineke, hirya hari ibiti ndetse n'ibihuru.

Ni umuhanda w'umukara hirya hari igiti kirekire kirimo insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu ibiti, birebire bigenda biduha umwuka duhumeka bitandukanye.

Inzu nziza yubatse umujyi ugezweho isize irangi ry'icyatsi ku madirishya n'iry'umuhondo ku bikuta hanze hari igiti kinini kiriho insinga zigemura amashanyarazi ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu hirya hateye ibiti.

Ni inzu nini iri ahantu hitaruye yubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umweru ku madirishya harimo n'ibirahure inyuma yabyo hateye ibiti birebire.

Imodoka isize irangi ry'umweru, umutuku n'ubururu yandikishije mu magambo y'ubururu, bigaragara ko ariyo bifashisha batwara abarwayi mu bitaro bigiye bitandukanye mu gihugu, hirya haparitse izindi modoka.

Ni inzu nyinshi zubakishije amatafari yahiye, ifite amabati zisize irangi ry'ubururu, hari abantu barikugenda uwambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, uhetse igikapu cy'umukara.

Ni inzu isize irange ry'umuhondo yubakishije amatafari ahiye hejuru hasakayeho amabati asa nk'ashaje hariho igitambaro gisize irange ry'umweru n'umutuku.

Ni umuhanda w'amabuye urimo abantu b'abagabo bambaye imyenda igiye itandukanye, haparitse imodoka isize irange ry'umweru, umutuku n'ubururu bifashisha batwara abarwayi kwa muganga, inyuma hari inzu yubakishije amatafari.

Ni umuhanda w'umukara biragaragara ko imvura yaguye, haparitsemo imodoka zigiye zitandukanye harimo isize irangi ry'umutuku, hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara, hirya hari icyapa...

Ni umuhanda w'igitaka hateye indabyo hirya hari inzu nini isize irange ry'umweru ifite amadirishya asize irangi ry'umukara yubakishije amabati hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru hirya hari inzu ndende igeretse yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ifite ibirahure byenda kuba umukara hiryari indi yubakishije amatafari ahiye.

Ni inzu nziza bigaragara ko harimo isuku nta mwanda mwinshi urimo, harimo ibitambaro by'ubururu kuka utasizeho irangi ry'umweru, bigaragara ko ariho baryamisha abarwayi bagiye batandukanye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye hejuru hasakayeho amabati yenda gusa umweru bigaragara ko ari mu bitaro bakira abarwayi bagiye batandukanye, hari umumama bigaragara ko yari avuye kugemura.

Ni inzu nini isize irangi ry'umuhondo, hanze hubakishije amabati hari abantu benshi bagiye batandukanye bafite ibikapu hanze, bigaragara ko ari kwa muganga bavuriza abantu bagiye batandukanye.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro y'umweru hasi, ku bikuta hasize irange ry'umweru, harimo abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'ibyuma zisize irange ry'umukara.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye menshi hejuru hasiho irangi ry'umweru n'imirongo y'umukara ni ahantu bigaragara ko ari ibitaro bakira abarwayi benshi bagiye batandukanye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye afite inzugi zisize irange ry'umweru, ku rukuta hasizeho irange ry'umuhondo n'ubururu, hanze hicaye abantu ku ntebe z'imbaho benshi bagiye batandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo n'umweru, hari abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, hari isuku hari ibyatsi bicunze.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi zisize irangi ry'umweru, hari amabati afasheshwe ku biti hirya hari ibiti birebire bidufasha kubona umwuka duhumeka.

Ni inama nini y'abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abenshi bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe z'imbaho, bigaragara ko aribo bayobozi bayoboye inama, hirya hateye ibiti byinshi birebire.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ifite inzugi zikozwe mu mbaho, isize irangi ry'umweru ku bikuta hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, ku ntebe z'umukara harimo abari bambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Benshi bicaye ku ntebe bambaye agapfukamunwa, harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'iroza bigaragara ko ari imfungwa, ashobora kuba yarakoze ibyaha bigiye bitandukanye, yicaranye n'abantu bashobora ko bagiye kumuburanira.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abambaye agapfukamunwa abenshi bambaye imyenda y'iroza, bigaragara ko ari imfungwa, bazize ibintu bigiye bitandukanye, harimo uwambaye ishati y'umukara n'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye inyuma hari abashinzwe umutekano w'imfungwa hari abari bicaye ku ntebe bambaye imyenda y'umuhondo udupfukamunwa twenda gusura ubururu.

Ni umugabo w'imibiri yombi, wambaye ingofero y'umukara, hejuru hasa umuhondo, yambaye ishati y'umweru, ikote ry'umutuku n'umweru hariho utudomo tw'umukara, biragaragara ko atishimye mu maso.

Ni abantu benshi bambaye imyenda imeze kimwe, ifite ibara ry'iroza, bicaye ku ntebe z'imbaho bigaragara ko ari imfungwa. Bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, bakaba bari bari kuburana.

Inzu irimo intebe z'imbaho n'ibyuma harimo abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagabo harimo uwari wambaye ikote ry'umukara, ishati y'mweru, hagati hari harimo undi wambaye.

Ni umugabo w'imibiri yombi wambaye amarinete y'umukara, wambaye ishati y'umweru karuvati y'umukara, ikote ry'umukara n'umutuku, bigaragara ko yarakaye hari ibintu ari kureba.

Inzu nini igaragara neza ifite ibikuta bisize irange ry'umweru, hamanitsemo amateleviziyo afite ibirahuri by'umukara, hahagaze umumama wambaye imyenda y'umukara hirya.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo, abasaza n'abakecuru imbere yabo, hahagaze umugabo wambaye imyenda y'iroza bigaragara ko ari imfungwa yaje gushinjwa ibyaha.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa bukeya bigaragara ko yishimye mu maso ye, ufite umusatsi mukeya wambaye ishati y'umweru ikote ry'ububuru, karuvati y'ubururu, bigaragara ko hari ibintu yararimo arareba.

Ni umugabo mwiza, munini wirabura, wambaye amarinete y'umukara, wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, umweru n'umutuku, usa ni utishimye.

Ni inama y'abantu benshi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, abenshi bambaye amashati y'umweru, amapantaro y'umukara, bigaragara ko hari ibintu bose bari bari kumva bari kubabwira, hirya hateye insina.

Ni abantu batatu, umwe yambaye ikote ry'ubururu, karuvati irimo imirongo y'umweru n'ubururu, ishati y'umweru, imbere ye hari icupa ry'amazi, hirya hari umumama wambaye umupira w'umukara.

Ni umumama w'imibiri yombi wambaye ikote ry'umukara, imbere ye hateretse icupa ry'amazi irindi ririmo umutobe wo kunywa, bigaragara ko hari ibintu ari kureba afite ikaramu mu ntoki.

Ni inzu ndende yubakishije amatafari ahiye, harimo imirongo isize irangi ry'umuhondo, hejuru hariho icyapa gisize irangi ry'umukara mu magambo y'umweru, hahagaze ushinzwe umutekano w'imfungwa.

Ni abagabo batatu bicaye ku ntebe y'imbaho, umwe yambaye isaha, bambaye imyenda y'iroza, bigaragara ko bafunzwe hari ibyaha bakoze bigiye bitandukanye, bakaba baje kuburana.

Ni umugabo w'imibiri yombi wambaye amarinete, ishati y'umweru, ikote ry'umutuku ririmo umukara, bigaragara ko hari ibintu yari arimo areba cyangwa yari arimo yerekana.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye igeretse, ifite ibirahure mu madirishya, ifite inzugi zisize irangi ry'umweru, hanze hahagaze abagabo bambaye imyenda y'iroza bigaragara ko bafunzwe.

Ni umugabo w'imibiri yombi wambaye agapfukamunwa, imyenda y'iroza bigaragara ko ari muri gereza bamufunze bitewe n'ibyaha yagiye akora bigiye bitandukanye.

Ni Imodoka nini zisize irangi ry'umweru, bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, bigaragara ko habaye inkongi y'umuriro, hari abashinzwe kuzimya umuriro.

Ni abantu harimo ushinzwe umutekano w'igihugu mu muhanda, uhagararanye n'umugabo bigaragara ko hari ibyo ari kumusobanurira, hirya hari icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru.

Ni imodoka nyinshi ziparitse harimo izisize irangi ry'umweru hirya hari inzu, hari idarapo ry'igihugu riri mu mabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu hari ibiti byinshi birebire.

Ni umuhanda urimo imodoka nini itwara esanse, bigaragara ko iri gushya hari umugabo wari wambaye imyenda y'umukara uri kuzimya umuriro akoresheje amazi, imodoka isize irangi ry'u.

Mu muhanda w'ibitaka harimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abapapa, abana ndetse n'abamama, hasi hari ibintu bari kwerekana bigaragara ko hari ibyo bari kwamamaza cyangwa kubuza abaturage.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru umumotari uhetse umugenzi inyuma, yabo hari imodoka nini isize irangi ry'umweru itwara abantu benshi bagiye batandukanye, imbere yayo hahagaze ushinzwe umutekano wo mu muha.

Ni icyapa gisize irange ry'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru, bigaragaza ko ari ahantu ushobora kujya gutanga ikibazo cyawe bakakumva, hakorera abapolisi giherereye Nyamirambo.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi hari icupa risize irange ry'umutuku, yandikishije mu magambo y'umweru, hariho akagozi k'umukara, babyifashisha bazimya inkongi y'umuriro.

Ni abantu benshi bahagaze bambaye agapfukamunwa bose harimo uwambaye ishati y'umweru bigaragara ko arikuzimya umuriro, hirya hari umuntu wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano wo mu muhanda.

Ni umuhanda w'amabuye uparitsemo imodoka zigiye zitandukanye harimo ishinzwe umutekano isize irangi ry'umukara n'umweru yandikishije mu magambo y'umukara hirya hari umuntu uri kugenda n'amaguru.

Mu muhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, haparitsemo umumotari hirya hari umunyamaguru uhagararanye n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda bigaragara ko hari ibyo ari kumusobanurira.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini isize irangi ry'umweru n'ubururu, bayifashisha bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, hirya yayo hateye ibiti birebire twifashisha tubona umwuka duhu.

Ni icyumba cy'amatora kirimo abantu batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, harimo ibyuma bakoresha barangurura amajwi, hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa ku meza.

N'ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo urubyiruko abahungu n'abakobwa, imbere hari umugabo n'umukobwa bigaragaza ko harimo abari kwiyamamaza bambaye amashati y'umweru.

Ni umugabo w'imibiri yombi bigaragara ko yishimye mumaso ye, ufite umusatsi utari mwinshi kumutwe yambaye ishati y'umweru ikote ry'umukara karuvati y'umutuku irimo uturongo tw'umukara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ibikuta byayo byubakishije imbaho harimo umugabo n'umukobwa bambaye ishati y'umweru undi yambaye umupira w'umweru hari agapapuro bari gushyira.

Ni umumama w'igikara, ufite imisatsi y'umukara, wambaye amarinete, wambaye ikanzu y'umweru ifite akabara k'umukara mu ijosi, wicaye bigaragara ko hari ubufasha akeneye ku bamama.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari umuyobozi w'igihugu Perezida Paul Kagame wambaye imyenda y'umukara n'ishati y'umweru, inyuma hari idarapo ry'u Rwanda.

Ni umugabo w'imibiri yombi, wambaye ikote ry'ubururu ishati y'umukara karuvate y'ubururu, wari urimo utanga ikiganiro bigaragara ko ashinzwe urubyiruko,

Ni abantu benshi bahagaze harimo uwambaye imyenda y'abashinzwe umutekano w'igihugu. Abari bambaye amashati y'umweru, karuvati z'ubururu amakote y'ubururu, ndetse n'umukara.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye baje mu matora y'umukuru w'igihugu, imbere hari umuyobozi w'igihugu perezida Paul KAGAME, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara hirya.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, imbere hari umuyobozi w'igihugu perezida Paul Kagame, yambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara, ipantaro y'umukara, ikoti ry'umukara, inyuma ye hari madamu Jeannette Kagame, yambaye imikenyero.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko; bahagaze ku murongo umwe, bigaragara ko hari igikorwa bajemo cyo bakeneye guhabwa.

Ikirangantego gisize irangi ry'icyatsi gishushanyijeho ibigori kiri kugaragaza kwishyira ukizana kw'abaturage mukabaho mwisanzuye mufite umutekano ndetse no kubahana hagati yanyu.

Ni ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo n'urubyiruko, abagabo, abagore abasaza n'abakecuru, bari ku murongo bigaragara ko hari ubufasha baje gusaba bugiye butandukanye.

Hari abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore bahagaze ku murongo bigaragara ko bari kwifotoza harimo abambaye imyenda yenda kumera kimwe amakote y'ubururu.

Ni umuyobozi w'igihugu perezida Polo Kagame, yari yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, inyuma ye hari icyapa gisize irange ry'ubururu harimo uturongo tw'umweru.

Ni inzu nini igaragara neza ishobora kuberamo inama zigiye zitandukanye, ifite intebe zisize irangi ry'ubururu hicayemo abantu bagiye batandukanye, abamama n'apapa harimo abambaye amakoti y'ubururu.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye abamama ndetse n'abapapa, abenshi bambaye imyenda isa amakoti y'umukara, amashati y'umweru, karuvati z'umukara abamama bambaye imikenyero, hirya hateye ibiti.

Inzu irimo umuyobozi w'Igihugu Perezida Paul Kagame, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'umukara, amarineti y'umukara, ari kumwe na madamu wiwe, inyuma hari umudamu wambaye imikenyero.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara imizigo igiye itandukanye iyivana mu ntara imwe iyijyana mu yindi, inyuma ye hari umunyonzi ndetse n'umumotari uhetse hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini bifashisha batwara abantu babajyana ahantu hagiye hatandukanye, isize irange ry'umweru, icyatsi, ifite ibirahuri by'umukara, hirya yabyo hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara urimo abanyonzi babiri bahetse, hirya hari imodoka isize irange ry'umweru ijyamo abantu batanu, hirya yayo ibiti birebire byiza bizitiye twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni mu muhanda w'umukara usa nk'uwacukutse urimo imodoka zitwara abantu benshi bagiye batandukanye babavana mu ntara imwe bajyana mu yindi isize irangi ry'umweru, inyuma hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru n'umuhondo, umumotari uhetse umugenzizi, inyuma yabo hari imodoka isize irangi ry'umukara, hateye ibiti hagati bigaragara ko harimo isuku nyinshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umuhondo, moto bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry'ubururu hirya haparitse imodoka isize irangi ry'umutuku hari ibiti birebire.

Ni muhanda w'umukara urimo ikimodoka kinini cy'igikamyo gitwara imizigo igiye itandukanye gisize irangi ry'umutuku n'umweru hari abanyamaguru bari kugenda umwe yambaye umupira w'ubururu.

Umuhanda w'umukara uparitsemo moto harimo abanyamaguru benshi intebe zisize irangi ry'umweru n'ubururu hirya hari umutaka wa emutiyeni ufite ibara ry'umuhondo hicaye umuntu.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, umunyamaguru wambaye umupira w'umweru, imodoka nini bifashisha batwara abantu bagiye batandukanye babajyana ahantu henshi, isize irange ry'umweru n'ubururu.

Ni muhanda w'umukara urimo imirongo isize irangi ryumweru, harimo umumotari wicaye kuri moto, hirya hateye ibiti birebire, hirya yabyo hari inzu igeretse ifite ibirahure.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, bayivana mu ntara imwe bayijyana mu yindi, isize irangi ry'umweru hirya hateye ibiti birebire dushobora kwifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni umuhanda w'umukara, urimo imodoka nini isize irangi ry'umutuku, irimo umuntu mo imbere bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini bifashisha batwara abantu benshi bagiye ahantu hagiye hatandukanye, kandi bishyura amafaranga atandukanye, isize irange ry'umweru n'ubururu, ifite inzugi z'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka itwara ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu, isize irangi ry'umweru yandikishije mu magambo y'umutuku, hirya hateye ibiti haparitse n'izindi modoka.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka ntoya ushobora kwifashisha utwara imizigo igiye itandukanye, uyivana mu ntara imwe ujyana ahandi, isize irangi ry'umweru ufite ibirahuri by'umukara arimo umunyonzi uhetse umugenzi hirya.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'uwacukutse urimo imodoka nini bifashisha abatwara imizigo igiye itandukanye, isize irange ry'umweru, ufite ibirahuri by'umukara, hirya hateye ibiti birebire bizitiye.

Ni muhanda w'umukara bigaragara ko ushaje, wacukutsemo akobo gatoya, harimo imodoka nini itwara imizigo igiye itandukanye, isize irangi ry'umweru, harimo umushoferi wambaye ishati yumweru

Umuhanda w'umukara urimo umunyonzi uhetse, umumotari, moto isize irange ry'ubururu bifashisha abatwara imizigo igiye itandukanye, indi isize irange ry'umukara, umunyamaguru uri kugenda.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo, harimo moto iriho umumotari n'umugenzi, hirya hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hari igiti kiriho insinga z'amashanyarazi.

Ni umuhanda w'umukara urimo moto bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hirya hari izindi modoka inyuma yayo hari imodoka nini itwara abantu benshi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, uparitsemo imodoka isize irange ry'ubururu, umweru n'umuhondo, ifite ibirahure,, hirya hateye ibiti birebire bigiye bitandukanye

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru bigaragara ko ishaje, harimo imodoka itwara abantu benshi bagiye batandukanye, isize irangi ry'umweru, hari abanyamaguru bari kwambuka, uwambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro'umukara.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'urimo akanogo, urimo umunyonzi, umumotari, hirya yaho hari igikamyo kinini gisize irangi ry'umweru bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, hirya hateye ibiti.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abenshi bagenda bahagaze, isize irangi ry'umukara, umweru n'ubururu, imbere yayo hari abamotari, harimo abahetse n'abadahetse

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, isize irangi ry'umweru, hirya hari uruza n'urujya rw'abantu benshi bagiye batandukanye bagenda n'amaguru, hirya hateye ibiti.

Mu muhanda w'umukara bigaragara ko ari ku masaha ya nimugoroba bwije, harimo imodoka nini itwara abagenzi bagiye batandukanye, isize irangi ry'umweru ifite amatara y'umutuku hari abantu bari kumbuka bagenda n'amaguru.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara abantu benshi ibavana mu ntara imwe ibajyana ahandi isize irangi ry'umweru ubururu ni'cyatsi ifite ibirahure by'umukara.

Mu muhanda muremure wumukara urimo imirongo y'umweru igikamyo kinini cyane bifashisha bavanga imicanga cyangwa ibindi bintu ugiye kubaka gisize irangi ry'umweru hirya hari imodoka zika.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, moto zigiye zitandukanye harimo igitwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry'ubururu, hirya hari inzu ndende igeretse, hasi haparitse imodoka.

Ni umuhanda w'umukara urimo igikamyo kinini cyifashishwa batwara imizigo igiye itandukanye gisize irangi ry'umweru, hari umunyamaguru wambaye ipantaro y'umukara, hirya hateye ibiti birebire bizitiye.

Ni umuhanda w'umukara bisa nkaho ari ku mugoroba, haparitse amamoto menshi ariho abamotari, asize irangi ry'umukara n'umutuku hirya ye hari umutaka wa tigo, ufite ibara ry'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye bayivana ahantu hamwe bayijyana ahandi, isize irangi ry'umutuku ifite ibirahure byenda gusa umukara, inyuma yayo hari imodoka isize irangi ry'umuhondo.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'ucukutse harimo imodoka ihetse imizigo hejuru hicayeho umuntu ishobora kuba ijyana ibintu bigiye bitandukanye mu ntara cyangwa ibivanayo; hari abantu bari kwambuka umunyonzi ndetse n'umumotari mu muhanda.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'uwacukutse urimo umunyonzi, umumotari, igikamyo kinini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, gisize irangi ry'umweru, hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda wubakishije amabuye urimo abanyamaguru abatwaye igare, abamotari bahetse abagenzi, igikamyo kinini bifashisha batwara ibintu bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda w'umukara usa n'uwacukutse harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, abamama bahetse abana, ndetse n'abasore, haparitse imodoka nini itwara abagenzi bagiye batandukanye isize irangi ry'umweru.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari uhetse umugenzi, imodoka nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye, ibavana mu ntara imwe ibajyaniye mu yindi, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure by'umukara hirya hateye ibiti.

N'umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye ibavana muntara imwe ibajyana m'iyindi isize irangi ry'umweru ifite ibirahure by'umukara inyuma yayo hari indi y'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini itwara abantu bagiye batandukanye kandi benshi isize irange ry'ubururu n'umweru ifite ibirahure by'umukara, hirya harimo umumotari udahetse umugenzi.

Ni umuhanda w'umukara usa nk'ucukutse ushaje urimo imodoka nini bifashisha batwara ibintu bigiye bitandukanye, ishobora no kujyana ibintu mu mahanga isize irangi ry'umweru irimo umushoferi.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari wicaye kuri moto udahetse umugenzi, hirya hari ibiti birebire biriho insinga zigemura amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu.

Ni umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umweru, hirya haparitse moto isize irange ry'umutuku n'umukara, hari umunyamaguru uri kwambuka wambaye umupira w'umuhondo, hirya hari inzu bigaragara ko ishaje.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka ebyiri isize irangi ry'umweru indi isize irangi ry'umutuku, hirya hari icyapa gisize irangi ry'umweru n'umutuku, hirya hateye ibiti birebire byinshi twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini y'igikamyo bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye, gisize irangi ry'umweru n'umutuku, cyandikishije mu magambo y'ubururu n'umweru, hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda uparitsemo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, ni ku masaha ya nimugoroba, hari imodoka zitwara abagenzi bagiye batandukanye, isize irangi ry'umukara n'ubururu ifite amatara y'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nini bifashisha abatwara imizigo igiye itandukanye, bayivana mu ntara imwe bayijyana mu yindi. Hirya hateye ibiti birebire byiza bizitiye, hirya hari inzu.

Ni umuhanda munini hirya hateyemo ibiti birebire, hari inzu ndende igeretse, isize irangi ryenda gusa umuhondo, ifite ibirahure by'ubururu, hari ikirere cyiza.

Mu muhanda w'amabuye urimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye harimo n'abicaye, hari akazu kubacishije imbaho bigaragara ko ari ubucurukuzi, bugiye butandukanye bari gucuruzamo imyenda y'abakobwa.

Ni ikibuga kinini bakiniramo imikino igiye itandukanye mu rubyiruko hirya hari ibiti birebire twifashisha tubonara umwuka duhumeka hari abantu hari igikingi gisize irangi ry'umweru ni ubururu.

Ni umurima munini uteyemo ibyatsi, ushobora guhingamo imbuto zigiye zitandukanye cyangwa ibindi biribwa nk'imyumbati, ibijumba, amateke ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye warya.

Ni ikibuga kinini bakiniramo imikino igiye itandukanye harimo abantu bane uwari wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, wari ufite umupira hi rya hari inzu igeretse bakishije amatafari ahiye ,amabati atukura.

Ni ibiti birebire bigiye bitandukanye, hirya hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye bigaragara ko ari nko ku mugoroba, hino hari ikibuga gisize irange ry'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, hirya ni ahantu bakorera siporo zigiye zitandukanye, abantu benshi, hirya hari amazu maremare asize irangi ry'umweru, hateye ibiti by'indabo

Ni umuhanda w'umukara urimo uturongo tw'umweru, umumotari, imodoka nyinshi, hari icyapa gisize irange ry'ubururu cyandikishije mu magambo y'umweru harimo.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, hirya hari icyapa gisize irangi ry'umweru kizengurukijeho iry'umutuku, hagati harimo umuntu wicaye ku igare bigaragara ko bitemewe abanyamaguru bari kwambuka...

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka isize irangi ry'umukara ifite ibirahuri by'umukara, hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu magambo y'umukara hagaze umukobwa uzamuye amaboko bigaragara ko yishimye.

Ni umuhanda w'umukara hari umunyamaguru uri kugenda wambaye umupira w'umukara hari icyapa gisize irangi ry'umweru kizengurukijeho iry'umutuku cyandikishije mu mibare y'umukara hirya hari inzu isize irangi ry'umuhondo.

Ni icyapa gisize irangi ry'umutuku n'umweru, hashushanyijeho abantu babiri bigaragara ko bari kwambuka, hasi hashushanyijeho amagambo atatu, rimwe n'amazeru abiri

Ni umuhanda munini w'umukara urimo imirongo y'umweru, abanyamaguru, umumotari, hateye ibiti byinshi birebire, icyapa gisize irangi ry'ubururu, cyandikishije mu magambo y'umweru.

Nicyapa gisize irangi ry'umukara, harimo umugabo usa nk'uri kwambuka hejuru harimo imibare ibiri, hariyo gatatu kane hirya hateye ibiti byinshi birebire bigiye bitandukanye bidufasha.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru hari icyapa gisize irangi ry'umweru mu magambo y'umukara hirya hateye ibiti, ibyatsi ndetse n'ibihuru byinshi bitandukanye.

Ni icyapa cy'umweru, ubururu n'umutuku giciyemo agasaraba hagati mu bururu, bigaragara ko hari ikintu kiri guhakana kitemerewe gukorerwa aho hantu hari icyo cyapa.

Ni icyapa gisize irangi ry'icyatsi gishushanyijemo ikiziga cy'umweru cyandikishije mu magambo y'umweru, bigaragara ko ari nyamata mu masaha nimugoroba haparitse amamoto menshi agiye atandukanye.

Umuhanda w'amabuye urimo icyapa gisize irange ry'umutuku n'umweru, cyandikishije mu magambo y'umukara, hirya hari abanyamaguru hateye ibiti birebire bidufasha kubona umwuka duhumeka.

Icyapa gisize irange ry'umweru, umutuku, n'umukara. Hasi hasizeho irangi ry'umukara mu magambo y'umweru, bigaragara ko hari ikintu bari kwerekana hagati mu muhanda kitemewe.

N'icyapa gisize irangi ry'ubururu umweru n'umukara haririmo umuntu wumukara bigaragara ko ari kwambuka, gishinzwe kwerekana aho abantu bagomba kwambuki.

Ni icyapa gisize irange ry'umweru n'umutuku, hagati harimo uturongo tw'umukara, umuntu, hirya yabyo hari imibare makumyabiri na kane, mirongo itatu na mirongo ine n'umunani.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru n'umukara, hirya harikapa gasize irangi ry'umweru n'umutuku, hateye ibiti byinshi birebire twifashisha tubona umwuka duhumeka, ni ahantu bigaragara ko hari isuku.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari, imodoka isize irangi ry'umukara indi nini itwara abagenzi benshi bagiye batandukanye isize irangi ry'umweru, ufite ibirahuri by'umukara, hari icyapa gisize irange ry'umutuku umweru n'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo umu mama wambaye ijipo y'umukara hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu irangi ry'umukara hari ikindi gisize irangi ry'icyatsi cyandikishije mu magambo y'umweru.

N'icyapa gisize irangi ry'umweru hazengurukijeho irangi ry'umutuku, hagati harimo imodoka itwara abagenzi benshi bagiye batandukanye haciyemo umurongo ubwo bisobanuye ko itemerewe kuhaparika.

N'icyapa gisize irangi ry'mweru umukara n'mutuku bigaragaza ko hari ikintu bari kwerekana buri wese agomba kwitondera.

Ni icyapa gisize irange ry'umweru umukara n'umutuku hashushanyijeho imodokadoka isize irangi ry'umukara ifite amatara y'umweru, hasi yandikishije ibara ry'umukara bigaragara ko nta modoka zemerewe kuhahagarara.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, irimo imodoka n'umunyamaguru umwe, hirya hateye ibiti byinshi biragaragara ko busa nk'ubugorobye bwijimye.

Ni inzu ndende yubatse mu buryo butangaje, ifite ibirahure by'umukara, hasi hari andi mazu magufiya, afite amabati asize irangi ry'umutuku, hateye ibiti birebire.

Ni inzu nyinshi zubatse mu buryo bugiye butandukanye zisakaje amabati y'umutuku, harimo izisize irange ry'umweru, izigeretse. Hateye ibiti birebire twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni inzu nini ndende igeretse ifite ibirahuri by'umukara igaragara neza ushobora kubamo igihe kirekire n'inshuti zawe n'umuryango, mukabamo mukodesha mwishyura amafaranga.

Umuhanda urimo umumotari, umunyamaguru wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, hirya hari inzu nziza igeretse, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru n'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka ebyiri isize irangi ry'umukara, indi nisize irangi ry'umweru umunyamaguru, umunyonzi hirya hari amazu menshi yubatse mu buryo bugiye butandukanye.

umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo, hirya hari inzu ndende igeretse yubatse mu buryo bugezweho, ifite ibirahure by'umukara ushobora kujyamo ugiye kuraramo cyangwa usohokanye n'umuryango wawe.

Inzu nziza isize irange ry'umweru, iriho icyapa cy'umweru cyandikishije mu magambo y'umutuku, gishushanyijeho imyenda igiye itandukanye ndetse n'inkweto z'ubwoko bwose bigaragara ko bacuruza ibyo bintu byose.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho igeretse, hejuru hariho ikigega babikamo amazi gisize irangi ry'umukara, ku bikuta hasizeho irangi ry'umweru, ifite imiryango

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo umumotari wicaye kuri moto nta mugenzi afite, imodoka isize irangi ry'umweru ifite ibirahuri by'umukara, umunyamaguru uhetse igikapu cy'umukara.

Inzu nyinshi zubatse mu buryo bugiye butandukanye, harimo izifite amabati asize irange ry'umutuku, hateye ibiti byinshi, imiyoboro iyobora amashanyarazi mu ngo nyinshi zigiye zitandukanye.

Ni umuhanda paritsemo imodoka nziza cyane bigaragara ko ari shyashya, isize irangi ry'umukara ifite ibirahure hirya hari indi nzu ndende ifite ibirahure by'ubururu hirya hariho.

Ni ishyamba rinini cyane rigiye ritandukanye harimo n'indabyo, bisa nkaho hashobora kororamo imibu cyangwa utundi dusimba, ushobora kubikata hakaza indabyo nziza ndetse tukabona umwuka duhumeka.

Ni umuhanda w'igitaka, hari abantu benshi bagiye batandukanye abicaye n'abahagaze, haparitse moto isize irangi ry'umutuku n'umukara, bigaragara ko ari ahantu bacururiza.

Ni umuhanda w'umukara urimo umumotari wicaye kuri moto isize irangi ry'umukara n'umutuku, hirya ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'umukara, hateye ibiti

Ni umuhanda w'gitaka hirya hari inzu ndende yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta ifite amadirishya asize irangi ry'umukara hirya hateye ibiti ndetse n'insinga zigemura amashanyarazi.

Ni umuhanda w'amabuye, uri hagati y'amazu agiye atandukanye, harimo iyubakishije amabati asize irangi ry'umutuku, hari igiti cy'ipoto kiriho insinga zigiye zitandukanye zigemura amashanyarazi.

Ni nzu nziza yubatse mu buryo bugezweho. Ni ahantu ushobora kujya ukeneye kuruhuka, kurya, wahasohokanye n'umuryango, inshuti n'abavandimwe. Ifite ibirahure mu madirishya, isize irangi.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka itwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry'umweru n'umutuku hari umunyamaguru uri kwambuka hirya wambaye ishati y'umweru hari inzu ifite igipangu cyubakishije.

Ni inzu nini igaragara neza ifite ibirahure bisize irange ry'umukara, hirya hateye ibiti birebire dushobora kwifashisha tubona umwuka duhumeka, hanze hari indabyo.

Ni umuhanda w'umukara urimo uruza n'urujya rw'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'amazu menshi ahubatse, hirya hari akazu ka MTN gasize irangi ry'umuhondo kandikishije mu magambo y'umukara.

Ni umuhanda w'amabuye urimo umumotari wicaye kuri moto y'umukara wambaye umupira w'umukara hirya hari abandi bari bahagaze hari, amazu menshi yubatse muburyo bugiye butandukanye.

Ni umuhanda wumukara urimo imodoka nini itwara abantu benshi bagiye batandukanye, isize irangi ry'umweru hino hari abanyamaguru bagiye batandukanye, umutaka wa emutiyeni usize irangi ry'umuhondo.

Ni umuhanda wumukara bigaragara ko bwije, hari amatara hagati, hirya hari umuntu usa nkaho kwambuka wambaye umupira w'umweruru n'ipantaro y'umukara, ingofero y'umweru, inyuma ye hateye ibiti birebire byinshi.

Ni umuhanda uri hejuru ku kiraro utarimo ikintu, hasi hari undi urimo imodoka, umumotari wicaye kuri moto, hirya hateye ibiti birebire, harimo igikamyo gisize irange ry'umutuku.

Ni umuhanda w'umukara hirya hari igiti kinini kiriho itsinga zigemura amashanyarazi, ahantu hagiye hatandukanye mu Gihugu, hirya hari inzu yubakishije amabati atukura hateye indabo.

Ni umuhanda w'umukara ufite undi hejuru y'ikiraro, hasi hari icyapa gisize irangi ry'umweru kizengurukije ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umukara, hahagaze umunyama.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo amatara ari kwaka agiye atandukanye, harimo ayaka umutuku, hirya hateye ibiti birebire, hagati harimo umumotari.

Ni umuhanda wumukara urimo imodoka ebyiri imwe ifunguye umuryango, imbere hari za moto bifashisha abatwara imizigo isize irangi ryubururu hiryateye ibiti byinshi birebire.

Ni umuhanda muremure w'umukara urimo imirongo y'umweru, hirya hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye ibirebire n'ibigufi, twifashisha tubona umwuka mwiza uyunguruye duhumeka.

Ni umuhanda w'umukara ni ku masaha yo ku mugoroba amatara aracanye harimo imodoka isize irangi ry'umweru, umumotari, hirya hari icyapa gisize irangi ry'ubururu.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, hirya hari abamotari bahetse abagenzi, inyuma yabo hari imodoka isize irangi ry'umutuku, hirya hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, isize irangi ry'umukara, indi bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry'umweru n'umutuku, amamoto.

N'umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo, imodoka isize irangi ry'umukara abamotari hirya hateye ibiti birebire byinshi bigiye bitandukanye twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Umuhanda w'umukara urimo abanyonzi benshi, bafite amagare abamotari, imodoka isize irangi ry'umukara hirya hateye ibiti birebire n'ibigufiya bigiye bitandukanye.

N'umuhanda munini wumukara, urimo imirongo y'umweru n'umuhondo, hateye ibiti byinshi bigiye bitandukanye harimo imodoka harimo izisize irangi ry'umukara n'umweru.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo isize ibara ry'umuhondo, harimo umunyamaguru batatu, hirya hateye ibiti birebire twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Numuhanda wumukara urimo abamotari bahetse abagenzi imodoka nini y'igikamyo bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry'ubururu hirya hateye ibiti byinshi hirya hari amazu.

Ni umuhanda muremure w'umukara urimo imodoka isize irangi ry'umukara, imbere yayo hari imodoka isize irangi ry'umuhondo, hirya hari inzu ifite amabati y'ubururu hateye n'ibiti.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, hirya harimo abanyamaguru, abamotari bahetse abagenzi, hirya hari icyapa gisize irangi ry'umutuku, cyandikishije mu magambo y'u...

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo imodoka isize irangi ry'umukara ifite ibirahure by'umukara imbere hari abamotari bahetse abagenzi ibiti birebire byinshi bigiye bitandukanye.

Ni muhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru, harimo imodoka nziza bigaragara ko ikiri nshyashya isize irangi ry'umweru, hirya yayo hateye ibiti birebire byinshi bigiye bitandukanye twifashisha tubona umwuka duhumeka.